Ni ngombwa ko abaturage bibumbira mu makoperative, abandi bakayoboka amabanki kugira ngo bakemo inguzanyo, zibafasha kwiteza imbere. Mu bikorwa by'ubuhinzi cyangwa se ibindi bikorwa byose bakora, bibazanira inyungu za buri munsi kugira ngo bazamure igishoro cyabo.

Abantu benshi bagiye mu imurikagurisha, iryo murikagurisha rikaba ririmo inanasi zeze mu Karere ka Nyagatare.

Sale irimo ameza, intebe zegamirwa, udutambaro dutatse kumeza, televiziyo, sale isize irangi ry'umuhondo.

Imifuka ipakiyemo ibintu bitandukanye wenda nk'ibiribwa twavuga: amateke, ibirayi, ibijumba, imyumbati, ibyo byose tubisanga ahantu habugenewe dushobora kubigurira kugira ngo tubashe kujya kubikoresha mu ngo zacu nk'amafunguro.

Aho umuntu akoranyiriza ibicanwa byo mu bwoko bwa gaze kugira ngo abigurishe abatabifite mu ngo zabo kugira ngo abashe kubona amafaranga yo kumufasha kwiteza imbere, abandi babikeneye babisanga aho kugira ngo babijyane mu ngo zabo babyifashishe mu guteka mu rwego rwo kwirinda kwangiriza ikirere.

Yesu ku musaraba, abakirisitu bagiye gusenga, abahereza, Padiri.

Amahoteli meza kandi agezweho, ni byiza ko abafite ibyumba biteyemo amarangi meza, intebe nziza zo kwicaraho mu gihe abantu bahasohokeye bahaganirira, ameza meza, ashobora kureshya abakiliriya kugira ngo nabo babashe kwishima, maze binjize amafaranga nk'uko baba babyifuza,

Pisine zo kugeramo, amapave, ubusitani, amapoto y'amashanyarazi, inzu ya etaje.

Amahoteli meza afite uburyamo bwiza, afasha abayaganye kubona ahantu heza ho kuruhukera bityo n'abahakora bakabona akazi ko kwita kuri abo baje kuharuhukirara kuko nanone bahasiga n'amafaranga, bigatuma buri wese mu bahakora abona amafaranga yo kwitunga no gutunga abagize umuryango we.

Hoteri iriho abakaraza baha abayigana ikaze kugira ngo baze bishimire kuharuhukera.

Amahoteli agomba kuba yubatse neza yaba ari amayetaje akaba ntabwo akoze neza afite inkingi asize amarangi asa neza asakaye neza kandi akaba afite amasikariya ashobora gukoreshwa kugira ngo abantu bayayobotse bazamukemo babashe kujya no mu byumba byo hejuru.

Igiti, imodoka y'umweru, inzu y'itaje ya hoteri, ifite ama esikariye azamuka mu etaje hejuru, etaje isizwe irangi ry'umweru.

Mu mahoteli dusangamo abakozi baba biteguye kwakira abakiriya kugira ngo babahe ibintu bitandukanye bifuza harimo inzoga z'amoko yose iziri mu tubati, izindi ziri mu mafirigo kugira ngo abo bakiriya batahe bishimye.

Amahoteri ni byiza ko agomba kuba afite ubwiherero bwiza ndetse n'ahantu ho gukarabira heza n'igitambaro cy'amazi gikoreshwa muri dushe, nanone mu bwiherero hagomba kuba harimo impapuro z'isuku, zifashishwa n'umuntu wakeneye ubwiherero.

Amahoteri akwiye kuba afite ibintu byose bihagije mu cyumba, umukiriya yakenera, intebe, puberi, igitanda kimeze neza kandi gishashe, akameza hamwe n'itarara rishobora kumumukira mugihe yifuza wenda gusoma utuntu runaka.

Amahoteli cyangwa se ahandi hantu abantu bashobora kujya gufatira ikiruhuko, ni byiza ko aba ari ahantu heza ho kuruhukira hari igitanda gishashe neza mu misego myiza, icyumba kiza giteye amarangi ku buryo umuntu uhageze yumva aruhutse atuje.

Mi isoko hadufasha kwiteza imbere, tukabona amafaranga dukeney, kugira ngo dukemura ibibazo duhura nabyo mu buzima.

Ahantu abantu bajya kugura ibyo bakeneye nk'imyenda, imisambi cyangwa se utundi tuntu bakeneye ndetse n'abafite ibyo bagurisha bakabijyanayo, bakabigurisha kugira ngo babone amafaranga, aho niho bita mu isoko.

Umufuka wuzuye ibinyobwa bidatonoye, ibinyobwa byanitse bidatoboye, akaboko k'umuntu kambaye ikoti ry'umukara.

Abatwara ibinyabiziga mu mihanda myiza ikozwe na kaburimbo, ntabwo bagira impungenge z'uko imvura iragwa maze bagahura n'ubunyereri bikaba byatuma bakora impanuka, ahubwo batwara uko byashoboka bagakora n'akazi bumva bisanzuye, nta bwoba bw'impanuka bafite, ubundi bagacunganwa n'amategeko y'umuhanda.

Abantu batwara ibinyabiziga urugero nka moto ndetse n'imodoka bishimira gutwara mu muhanda mwiza ukozwe nka kaburimbo kuko ntabibazo by'ubunyereri bahuriramo nabyo ngo bibe byatuma bakora impanuka za hato na hato bityo ubuzima bwabo bukahangirikira.

Umuhanda mwiza ukozwe mu buryo burimo kaburimbo ufasha abatwara abantu n'ibintu kuri moto cyangwa se n'ibindi binyabiziga kugira iyo bagiye nta mpanuka zibaye, kandi ibyo bikaba bituma abantu bakomeza kugira ubuzima buzira umuze ku kijyanye n'ibikomere ushobora guterwa n'impanuka.

Abantu bakora akazi ko gutwara moto, kugira ngo babone uko ubuzima bwabo bwakomeza kumererwa neza, babona ibibatunga n'ibitunga imiryango yabo, nabo bagakomeza kubaho neza.

Iyo imihanda ikozwe neza irimo kaburimbo ntabwo inyerera bivuze ko buri muntu wese yisanga mu gikorwa akorera mu muhanda ni ukuvuga wenda abamotari, abanyamaguru ndetse n'abandi, ariko by'umwihariko abamotari baba babonye umwanya mwiza wo gukora akazi kabo kuko baba batikanga ubunyerere.